Icyumba gitangirwamo serivisi y'ubuganga, aho hano ari abana bazanye kwa muganga. Hakaba ari umuganga wambaye ikanzu y'umweru irimo agasentire k'umutuku, akaba ari kwita ku murwayi w'umwana ufashwe n'umubyeyi yiteze igitambaro wambaye n'ikote ry'umukara.

Aha turahabona igishashi kirimo amaraso, iki kikaba ari ikizanywa na dorone kimwe ita hasi igihe izaniye amaraso abarwayi.

Aha turahabona ahantu mu byatsi, abaturage bakorera inama, bakaba bari bahuye n'abayobozi babo babagejejeho amatungo magufi, aho bahawe ihene, bagiye korora kugira ngo biteze imbere, ubuzima bwabo.

Hano muri sale hakaba harimo urubyiruko rw'ingeri zose abahungu n'abakobwa bambaye amajire atukura, bakaba ari abakoranabushake ba Croix Rouge. Hakaba hari n'abagabo batatu bambaye amasarubeti y'umweru na masike z'umweru n'udupfukamunwa, bambaye ga z'icyatsi bakaba bari gutera imiti muri si sale.

Aha turahabona, amazu y'abatishoboye ari ku umudugudu, hakaba hari indi bari kubaka inyuma yazo, asa nk'a ari igikoni cyazo, hakaba hariho abafundi, hasi hakaba hari n'abayede bari kubahereza, haakaba hashinze n'ibiti by'ibikwa.

Noneho hakaba hari urubyiruko rwambaye amajire y'umweru hashushanyijeho umusaraba mu ibara ry'umutuku, bakaba bicaye, imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze wambaye ubupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara akaba ari kubaha amabwiriza y'umuryango wa kuruwaruje.

Aha ni kwa muganga aho hari umurwayi uri hasi bari kwitaho bamwongerera umwuka, hari abaganga bambaye amatabariya y'umweru, n'abamama n'umukobwa bahagaze bari kureba, n'abandi basore babiri hakaba hari n'abandi bapfukamye hasi ku murwayi.

Aha turahabona ko ari mu kirwa cyo kwa muganga, akaba ari mu cyumba harimo abagore bane bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara y'ubururu bwijimye, bakaba bari mu bushakashatsi ku bijyanye n'imiti.

Aha turahabona umugabo umwe wambaye ishati y'amaboko maremare na baju mu gatuza, abandi bambaye imyenda mpuzankano y'akazi, imyenda y'umweru, amamasike ndetse n'amarinete, hakaba hakurya hari undi muntu uhari wambaye baji, bakaba bakora mu ishami ry'ubuvuzi n'ubwirinzi.

Iki ni icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi, hakaba hakorerwamo ubushakashatsi bw'ibintu byinshi bitandukanye.

Abagabo babiri bari mu tugare tw'abafite ubumuga, bambaye udupfukamunwa n'ingofero z'umukaraka, bakaba bambaye n'imipira itukura, inyuma yabo hari abandi babiri bahagaze nabo bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza atetseho amazi mu gacupa.

Abakorerabushake ba Crox Rouge bambaye amajile atukura, umupa umwe yambaye ingofero itukura, hari abama kuruhande babiri bari guhabwa igipapuro bafata nk'ifato y'urwibutso, hirya hari abandi bantu bahagaze.

Iki ni cyumba cyo kwa muganga gikorerwamo serivisi zitandukanye, harimo igitanda cy'abarwayi.

Imodoka yagenewe serivisi zo kwa muganga igomba kuzigeza hose, bakaba barambuyeho ihema bashinze n'ibyuma ari ababamama bicaye muri iryo hema bambaye udupfukamunwa n'imipira y'imyeru.

Iyi ni ambiransi itwara abarwanyi, ibavana kwa muganga ibajyana ahandi boherejwe, hakaba harimo umushoferi wayo wambaye agapfukamunwa n'umuganga wambaye ishati irimo umukara n'umweru.

Turahabona abaturage bicaye inyuma yabo hakaba bahagaze abana bari munsi y'igiti, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo witegeye uri kureba baro, inyuma ye hakaba hari umukecuru ugendera mu kagare ufite n'imbago.

Aha turahabona ikigo cyo kwa muganga aho imbere ku marembo hagaze ambirasi, imbangukiragutabara itabara umurwayi imujyana ku kindi kigo nderabuzima.

Ikigo nderabuzima mu cyumba kirimo amatajeri n'ibitanda by'abarwayi, aho hari na muganga wicaye, ari kwambara ga.

Hano turahabona inzu isize amarangi y'ubururu n'icyatsi, iburyo bwabo hari ikigega cy'umukara, ibumoso hari indi nzu y'umuturage, imbere hari kandagira ukarabe n'abagabo babiri bateruye umwirasire, umwe yambaye imyenda muzangano y'akazi, undi yambaye ishati y'umweru, bigaragara ko ari muganga.

Hano turahabona inzira isakaye igiye ishinzeho ibyuma ijya kwa muganga, hino yaho haparitse imodoka ebyiri, hano habanza hari umwana n'umumama begamye ku cyuma.

Hano turahabona itete rizengurutswe n'ibitambaro biri mu mabara agize idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ubururu, umuhondo, icyatsi, hakaba hicayemo abanyabuzima b'abagore, abagabo mbese bakaba bari nk'ihuriro bakoze baje kuganira n'abayobozi.

Aha turabona abaturage benshi bicaye, ababyeyi bicaye ku ntebe, imbere y'umumama umwe hakaba hateretse icupa ry'amazi, bakaba barangamije amaso ku muganga uri kwita ku murwayi, yambaye agapfukamunwa n'igitambaro mu mutwe n'impuzankano y'akazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga batatu, babiri b'abagabo bambaye amatabriya y'umweru, umwe afite ikaramu yo kwandika kurupapuro ruri mu ikaye. Uw'umukobwa yambaye linete ari imbere y'ababarwayi.

Haragaraga abaturage bicaye, hari urubyiruko, imbere yabo hakaba hahagaze abagabo batatu, babiri bambaye itaburiya y'umweru n'uwambaye baji mu gatuza hakaba harundi yambaye umupira ni'pantaro y'umukara bakaba bicaye imbere y'ibitaro kwa muganga.

Aha hari umupapa wambaye itise n'ishati y'amaboko maremare utebeje hakaba ari n'abandi baturage bari ku murongo bafite n'ibyo bategereje guhabwa n'abuyobozi bari kubaha amabwiriza y'uko bigomba kugenda.

Aha turahabona ivuriro, rikaba ryiciwemo n'abaturage benshi baje kwivuza, hirya habanza hakaba hari umukobwa bisa nkaho ari gusohoka, afite igipapuro mu ntoki, bisa naho agiye mu kindi cyiciro gusaba serivisi. Muri pasiparumu tukahabona umuhungu uhicaye, wambaye umupira w'umukara.

Ibitanda byo kwa muganga bishashe, biri mu cyumba cy'abarwayi, aho hari n'utwuma bamanikaho serumo.

Aha turahabona inama iteraniyemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bambaye imyenda ijya gusa na move, abagore bambaye imyenda y'icyatsi kijimye, imbere yaho kandi umugabo ubayoboye uri kubaha amabwiriza.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, kirimo umuganga wambaye taburiya y'umweru wicaye ari kwandika mu gitabo. Hakaba hari n'undi uhagaze wambaye itaburiya ya burusiyeri ukora kwa muganga.

Turabona umuganga, uri muri laboratwari, yambaye tabura y'umweru, akaba yambaye na ga mu ntoki, afite akarahure ari gusukisha amazi, mu bikoresho byabugenewe byo muri laboratwari.

Hano hari umuganga wambaye gaze z'ububuru, uri gupima amaraso muri mikorosikope akaba afite akarahure kariho amaraso.

Ibikoresho bya laboratwari yo kwa muganga, aho biri kumwe n'imyenda n'amashashi y'ubururu.

Aha ni mu cyumba, hakaba harimo muganga wambaye itabuririya y'umweru, arasutse, hiryaye hari agakoresho bakoresha barebamo akabaha amakuru y'icyo ashaka kureba bakabasha kumenya icyo ari cyo.

Hano ni mucyumba utangirwamo serivisi zo kwa muganga, hakaba harimo igitanda cy'abarwayi, igitanda cyicayeho umumama wambaye ishati ijya gusa nka burusiyeri, umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kuvura umurwayi.

Ishuri ry'abana batoya ba materineri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari tabule bari kwandikiraho, hakaba hari abarimu babiri bambaye amajiri bahagaze bari kwita no kugenzura uko abana biga.

Icyumba k'ishuri, ry'abana batoya ba materineri. Bari mu masaha, yo gufata amafunguro aho bari ku meza bicaye bari kurya. Hagati yabo hari umusore wambaye ijire, asa n'ubafasha mu kubona amafunguro.

Uyu ni mubyeyi uteruye umwana we, akaba yamufubitse mu bigoma, yambaye agatishati k'umuhondo n'umweru n'agatambaro gatwikira umwana mu mugongo. Akaba yicaye ari gusoma umwana we.

Aha hagaragara nk'ubuyobozi bwaje kuganira n'abaturage, ku kintu runaka bashobora kuba baziranyeho, cyo kuganiraho.

Aha turahabona ishuri ry'abana batoya tuzi nka ECD, bambaye imyenda y'imihondo tuzi nka iniforume, abandi bo ntayo bambaye. Hagati hakaba hari umubyeyi, akaba ari umwarimu uri kubaha igikoma.

Hano hari ababyeyi babiri bafite abana bari konka bambaye ibitenge hasi n'imipira y'ubururu, undi uri ku ruhande umwana yasinziriye akaba afite agatambaro kamutwikira, inyuma ye hari abandi babyeyi benshi bahuriye mu nama.

Sale irimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru, abagore babiri n'umugabo umwe umugabo akaba afite agakoresho k'umuhondo gasuzuma umurwayi uko ameze akaba akambaye mu ijosi abaturage baje kwa muganga bakaba bari kumva icyo.

Uyu ni umuganga wicaye wambaye igitenge n'itaburiya ya buresiyeli ufite agatabo karimo amashusho ajyanye n'ubuzima. Iruhande rwe hari umugabo uhicaye uri kumwe n'umumama utwite wambaye igitenge n'ikoti ry'umukara.

Aha turabona ishuri ry'abana batoya, bicaye bari ku meza, bageze mu gihe cy'amafunguro baka bari kurya, hirya hari abari gusenga, hakaba hari abahagaze abarimu babo bambaye utujire twibara.

Aha turahabona umubyeyi ufite uruhinja, uri kwa muganga wicaye ku gitanda cyo kwa muganga asa naho yaje kubyara kandi yabyaye.

Sale yo ku murenge ikorerwamo inama zitandukanye, aho abaturage bicaye ku ntebe z'ibiti bari gutega amatwi umuyobozi ibyo ababwira, imbere hari ameza adekoye n'ibitambaro biri mu mabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, urubyiruko, harimo, n'uwambaye imyenda mpuzankano y'akazi ka gipolisi. Abagabo batatu bafite bandorore irwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Aha turahabona inama y'abaturage, bari ahantu mu ishyamba hagati hakaba harimo umugabo arimo kubigisha, bitewe n' icyo bari kuganiraho.

Urubyiruko rutandukanye, rwateraniye hamwe, bafite icyapa cyanditseho, kugira ibitekerezo byo kwiyahura, ni ikimenyetso gikomeye cy'indwara y'agahinda gakabije, baratubuza kubyihererana.

Aha turahabona urubyiruko rw'ingeri zitandukanye, ni abahungu gusa bakaba ari nk'abari mu ngororamuco, bahawe udutabo ngo babe basoma. Bakaba bari nk'abari mu ishuri bafite icyo bari kwiga.

Aha turahabona abagabo batatu bicaye, n'abagore babiri bicaye, ku kameza hagiye hariho agacupa k'amazi. Umugabo umwe yambaye agapfukamunwa, n'umugore umwe wambaye agapfukamunwa k'umukara, hakaba hari n'umwe ufite mikoro uri kugira ibyo ababwira.

Icyumba k'inama nyobozi gikorwamo inama n'ihuriro ry'abayobozi, bakaba bose bambaye imyenda y'umweru, imbere hari umukobwa uhagaze wambaye umupira w'umweru, ufite mikoro mu ntoki uri kuvuga ku bijyanye nibyo bahuriyeho baganira.

Aha, turahabona, Umuturage wasaga n'uwari urwaye. wari umaze iminsi anywa ibinini. Aho ari kwerekana ibinini, bamuhaye n'ibyo amaze kunywa, n'ibyo yamaze.

Iki ni icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ubwo buvuzi bukaba buvurwa bukoresheje imiti y'ibimera.

Farumasi y'imiti imanitse muri etageri, irigupangwa n'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, usutse, uri gupanga imiti muri etajeri.

Farumasi, y'imiti, ihagazwemo n'umugabo wambaye agashati k'amaboko maremare, k'amabara y'umukara na oranje. Akaba ahagaze kuri Kontwari ategereje abakiriya.

Akabogisi k'agakarito karimo igikoresho cyo kwa muganga.

Iki ni icyumba kirimo etajeri zimanitseho imiti itandukanye, yaba iyo mu bikombe, iyo mu dukarito; aho umurwayi yandikirwa umuti na muganga akaza kuwugura ahangaha.

Icyapa kigaragaza ko aha hagurishirizwa imiti y'amatungo n'ibikoresho by'ubworozi. Rabusako rimitedi.

Aha, hakaba hagaragara umuganga wambaye taburiya y'umweru n'agapfukamunwa ndetse na linete, afite ikaramu mu ntoki, iki kikaba ari icyumba cya laboratwari, gikorerwamo ubushakashatsi, bujyanye n'imiti.

Icyapa kimanitse ku nzu, kivuga Lucky Fam ltd, kikaba kigaragaza ko aho hari farumasi.

Inzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi gakondo aho uje abagana bamuha imiti imuvura, hejuru ku cyumba k'inzu handitseho amagambo aranga ko hari ivuriro gakondo rikoresha ibimera.

Aha turabona, inzu nini cyane, icururizwamo imiti y'ubwoko bwose, hakaba abarwayi, bavuye kwa muganga, ariho baza kugurira imiti.

Hano turahabona mu ikarito iteretse ivamo Metronidazole zari injection .

Icyumba gicururizwamo imiti ari cyo farumasi, kikaba kirimo abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hakaba hari kompiyuta, bafite ibipapuro bari kurebaho mu ntoki.

Amatente yubatswe adekojwe udutambaro tugizwe n'amabara y'idarapo cy'Igihugu, hakaba hari amabandelole ashinze ahagaze, mu mahema hakaba harimo abaturage b'ingeri zose basa n'aho bitabiriye inama y'abayobozi.

Aha turahabona icyapa cyanditswe mu magambo y'ibara ry'umukara. Aho imbere hari abana babiri b'abakobwa, inyuma hakaba hari umuhungu umwe, akaba ari ikirwanya ibiyobyabwenge.

Aha turabona ko ari kwa muganga, mu cyumba gitangirwamo imiti y'abarwayi. Tukaba tubona umugabo uhagaze wambaye akajire mu gatuza n'umukobwa wicaye wambaye umupira w'umuhondo. Uri guha umurwayi imiti waje kwivuza.

Abakobwa b'urubyiruko babiri, bambaye imipira ya orange, bari imbere ya bandarore ifashwe n'urundi rubyiruko, aho bari gufata ifoto. Bandarore iravuga iminsi cumi y'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Urubyiruko rwicaye muri salle rw'abahungu n'abakobwa, imbere hari umuyobozi wambaye ishati y'amaboko maremare uri kubaganiriza.

Abantu benshi bashyitse b'ingeri zose, urubyiruko, abagore, abagabo, inyuma yabo hari amatente yubatse, bisa naho bari kureba kuri stage hari nk'umuntu uriho.

Aha turabona abana b'abahungu bagera kuri batandatu, bakina umupira w'amaguru gusa bambaye imyenda idasa, hari abambaye imyenda ifite umweru n'umukara, abandi bakaba bambaye isa umukara n'umuhondo.

Aha turahabona ababyeyi batatu, umwe bambaye umupira w'umweru undi yambaye ikanzu nini y'ikibobo harimo itukura n'umuhondo, hakaba hari uwo bari kwifotoya uri hagati yabo wambaye agapira k'umweru, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso na seritifika hagati yabo.

Imiti y'ibimera ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Umugabo wambaye ishati irimo uturongo tumanuye, ufite igicupa mu ntoki.

Aha turahabona ko ari mu bucuruzi bw'imiti ya gakondo, igiye itandukanye, aho hari udufuka tugiye turimo, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hasi hakaba hari amabangago y'ibiti nayo akaba ari umuti.

Imiti y'ibimera gakondo. Aho iri mu bwoko butandukanye, igiye iri mu dufuka, utubase.

Hano hari igisambu kinini kikaba giteyemo ibiti bitandukanye, iki kikaba ari amatovu afite ururabo ruzamuye hejuru, indi iri ku ruhande bikaba bigandagaje hasi.

Uyu ni umuvuzi gakondo, aho yicaye, imbere ye hari ibikoresho byinshi bigiye birimo imiti itandukanye n'akaboko kari hejuru y'iyo miti.

Imiti y'ubwoko bwose ikozwe mu bimera, igihe iri ku tuntu dutandukanye tw'udutete, hari indabyo ku ruhande nazo zikoreshwa muri iyo miti.

Imiti iri mu dufuka ya kinyarwanda igiye y'ubwoko butandukanye ikaba yifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye.

Aha turabona icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari umurwayi uje abagana bakaba bari kumufata ibizamini by'umubiri wose, hari ikintu bamwambitse ku kuboko, uw'umukobwa ari kwandika areba mu bitabo.

Aha turabona igisambu kirimo igiti kitwa amatovu, kikaba ari igiti gifite amahwa ku mababi yacyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'umukecuru waje kwa muganga wifubitse igitenge uteze igitambaro wicaye ku ntebe.

Ikigo cya clinic cy'ubuvuzi hari umuganga wambaye ikoti ry'umukara n'a gapfukamunwa, afite agacupa k'amazi iruhande rwe, hari urubyiruko bari kumwe n'umuhungu n'umukobwa bari kumva inama.

Hano haragaragara abagabo babiri, bicaye imbere y'ameza. Bambaye itaburiya y'umweru, amapantaro ajya kuba kaki, ajya kuba nk'ivu. Hakurya hakaba hari umu mama wambaye agapira ku muhondo. Hakurya hakaba hari undi mugabo...

Aha ni centre de sante, muri salle hicaye umu mama wambaye itaburiya y'ubururu, nabagabo batatu bicaye ku ntebe, n'umugore uhagaze imbere wambaye igitambaro mu mutwe.

Hano turahabona umuganga uri mu cyumba, wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamuwa k'umutuku, ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika mu ikaye, iruhande rwe mu kaboko k'iburyo hakaba hari sanitayiza, imbere ye hakaba hicaye umumama bigaragara ko ari umurwanyi waje kwivuza, akaba yiteze igitambaro cy'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga, kiba ibitanda by'abarwayi, hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda uziritse akantu ku kaboko, aryamye yoroshe ishuka, hari umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'ubururu, akaba ari agakoresho afite kari mu matwi ari kumva uko umutima w'umurwayi utera.

Aha turahabona inzu ya poste de sante. Aho tubona hanze hari abanyabuzima, bambaye amatabu y'ubururu n'udupfukamunwa tw'umweru. Bakaba bari gufata ifoto, baririmba, babyina. Hirya hakaba hari umugabo uri gukoropa.

Sale yo kwa muganga, intebe ziba zitondekanye zicarwamo n'abarwayi baje kwivuza. Imbere hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, uri guha ababwiriza abarwayi, n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu uri iruhande rwe.